Ni abagabo babiri bicaye. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kirimo kwamamaza inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare. Kikaba kiri mu mabara asa n'ubururu, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere.

Ni umuturage akaba afashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abandi baturage bicaye mu cyumba kigari bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere.

Ni urubyiruko rw'abana b'abakobwa n'abahungu, bakaba bateraniye mu cyumba kimwe, imbere yabo hakaba hari umukobwa ufashe indangururamajwi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere nk'abana b'urubyiruko.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ateretseho amacupa arimo amazi, bakaba bari mu gikorwa cy'inama baganira ku buryo bwo kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bakaba barimo guhana ibitekerezo, imbere yabo hakaba hari umugabo ufashe indangururamajwi, ibi bikaba bibafasha mu guhanarana ibitekerezo bikabafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba, kikaba kirimo umugabo ufashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari undi wicaye, bakaba barimo guhana ibitekerezo by'uburyo bwo kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, binyuze mu gukorera hamwe.

Ni umugabo akaba yarambaye imyenda y'umukara. Akaba ahagaze afashe indangururamajwi, akaba arimo gukoresha inama y'inteko rusange y'umuryango FPR Inkotanyi. Ibi bikaba bibafasha mu gutanga ibitekerezo byo kwiyubakira Igihugu.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibinyobwa bitandukanye, bakaba bari gukora inama biga ku buryo bwo kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugabo, akaba ari gucuranga yifashishije igikoresho gakondo n'umuco nyarwanda, ibi bikaba bifasha mu kubungabunga no kwirinda ko umuco nyarwanda watakara ,binyuze mu kubungabunga ibihangano nyarwanda.

Ni igiseke, kikaba kiboshye mu buryo bwa kinyarwanda, kikaba kirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ibi biseke bikaba byifashishwa mu kuba wakwirinda ko umuco nyarwanda wakangirika.

Kwita ndetse no kubungabunga ibikoresho bya gakondo birimo: ibirago ndetse n'ibindi, bifasha urubyiruko rukiri ruto mu kwiga no gusobanukirwa ibikoresho bya kinyarwanda. Bikaba bifasha mu kwirinda ko umuco nyarwanda watakara.

Ni ibikoresho gakondo birimo amacumu n'imyambi. Ibikoresho bikaba byarifashishwaga mu buhigi bwo hambere. Bikaba byifashishwa mu kurinda ko umuco nyarwanda wakwangirika binyuze mu kubungabunga ibi ibikoresho.

Ni abaturage bicaye mu ihema, imbere yabo hakaba hari umugabo urimo kubyina imbyino nyarwanda, iruhande rwe hakaba hari abandi barimo gukoma amashyi barimo no kuririmba, ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko umuco nyarwanda wakwangirika ndetse no kuwubungabunga binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo.

Ni ababyinnyi barimo kubyina imbyino z'umuco nyarwanda, hakaba harimo abateze amaboko ndetse harimo n'abari gukoma amashyi. Ibi bikaba bifasha mu kurinda ko umuco nyarwanda watakara.

Ni urubyiruko rurimo kubyina imbyino Nyarwanda, hakaba harimo abari gukoma amashyi abandi bateze amaboko. Ibi bikaba bifasha mu kuba twakwirinda ko umuco Nyarwanda wakwangirika ndetse kuwubungabunga binyuze mu mbyino, ndetse n'indirimbo gakondo.

Ni urubyiruko rukaba rurimo kubyina imbyino nyarwanda, hakaba harimo abatezwe amaboko, iruhande rwabo hakaba hari abandi bicaye, ibi bikaba bidufasha mu kuba twakwirinda ko umuco nyarwanda wakwangirika binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo.

Gukomeza kubungabunga ibikoresho by'umuco nyarwanda birimo imyungu, ibicuma ndetse n'ibindi ni uburyo bwo kurinda umuco nyarwanda kuba wakwangirika bikaba bifasha abakiri bato mu kwiga ibikoresho nyarwanda.

Kwita ku bikoresho gakondo zirimo ingoma ndetse n'ibindi ni uburyo bwiza bwo kwiga no kubungabunga umuco Nyarwanda ibi bikaba byifashishwa mu kwigisha abana ibikoresho byifashishwaga mu muco Nyarwanda.

Ni uruganda, rukaba rurimo abakozi bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara asa ubururu ingofero z'umutuku. Bakaba barimo gukora ku ruganda rutanga imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni abakozi bakaba barimo gukora inzugi zikozwe mu byuma bifashishije imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu myuga itandukanye yifashisha imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni igiti, kikaba kiriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari icyapa kiburira aba begereye icyo giti, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiyirinda ko bagira ikibazo cyo gukubitwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Ni imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba harimo abakozi barimozikora. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi mu gihe gikwiriye kandi udacikagurika.

Ni inyubako zigiye zitandukanye, hakaba harimo izifashishwa mu bucuruzi ndetse n'izo guturamo. Iruhande rw'aho, hakaba hari ibiti biriho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ubafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo imashini yifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ingufu z'umuriro w'amashanyarazi. Zibafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi birimo kwiteza imbere.

Ni abakozi, bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abakozi bakora ku imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi, bakaba barimo gukora ku ipoto ritwara insinga zifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazizi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w' amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere.

Ni abubatsi bakaba bambaye imyenda yabugenewe irimo amajire ndetse n'ingofero. Bakaba barimo kubaka urugomero rwifashishwa mu gutanga, kongera ingufu z'umuriro w'amashanyarazi. Bikaba bifasha abaturage kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ni icyumba. Kikaba kirimowo imashini zongera zikanagabanya umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba, kikaba kirimo imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Hakaba harimo umukozi ushinzwe kubikora igihe byangiritse. Ibi bisaba gufasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umukozi akaba ari mu cyumba kirimo imashini yifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ingufu z'umuriro w'amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abakozi, hakaba harimo abambaye amajire y'icyatsi ndetse n'ingofero z'umweru n'umuhodo, bakaba bahagaze imbere y'imashini zongera zikanagabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ku buryo buboroheye.

Ni ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho, hakaba hari kunyura ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo moto, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buhahirane bw'ibicuruzwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka. Iruhande rwabo hakaba hari amazu ndetse n'ibindi biriho amatara acana mu gihe cy'ijoro. Ibi bikaba bifasha abaturage mukuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni inyubako igeretse imbere yaho hakaba hari abaturage hakaba hari abashinzwe umutekano wabo izi nyubako zikaba zifashishwa n'abayobozi mu kwakira no gukemura ibibazo by'abaturage.

Ni ikiraro gikoze mu byuma biteye irangi risa n'icyatsi. Kikaba kiri kunyurwaho n'abaturage benshi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu bikorwa bigiye bitandukanye bibafasha mu kwiteza imbere.

Ni icyapa cyubatse mu mabuye na amatafari, kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, aya magambo akaba arimo indandangagaciro ndetse na kirazira, ibi bikaba bifasha umuturage kugira indangagaciro ndetse no kwirinda kirazira.

Ni ikibuga gikikijwe n'inyubako zifashishwa n'abaje kureba umupira w'amaguru igihe imvura iguye. Iki kibuga kikaba cyifashishwa n'abakinnyi mu gukora imyitozo igiye itandukanye irimo gukina umupira w'amaguru. Ibi bikaba bibafasha mu kwidagadura.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amashyamba ndetse n'amazu, hakaba hari ibyapa biyobora abakoresha imihanda migari, ibi bikaba bifasha abaturage kuba bava ahantu bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni inyubako ndende igeretse. Imbere yaho hakaba hari abaturage harimo n'abakozi b'inzego z'umutekano ba daso. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage baba baje babagana.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'amashamba ndetse n'amasambu aciyemo amaterasi, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni inyubako zubatse mu buryo bwa kijyambere, zikaba zikikijwe n'imisozi iteyeho ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye. Izi nyubako zikaba zifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye by'abaturage.

Ni inyubako ikaba yifashishwa n'abakozi b'urwego rw'ubuzima mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imbere yaho hakaba hari abaturage baje kwivuza ibi bikababafasha mu kubona ahantu heza bakorera ndetse bikabafasha no gutanga ubuvuzi bunoze kubaje babagana.

Iyi ni inyubako ikaba iteye amarangi ari mu ibara risa n'ubururu, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage bikaba byorohereza abaturage mu kuba bahura n'abayobozi.

Ni inyubako ikaba ikorerwamo n'urwego rw'ubuyobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage, imbere yabo haba hari ibyapa birimo icyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muw'igihumbi kimwe maganakenda mirongo ikenda na kane, ibi bikaba bifasha abaturage mubona abayobozi babafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Ni abaturage benshi bahagaze imbere y'inzu yakira abinjira n'abasohoka. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abinjira n'abasohoka mu gihugu.

Ni abakozi b'urwego rw'ubuzima, bakaba bahagaze imbere y'inyubako yifashishwa n'abanyabuzima mu kuvura indwara z'jyiye zitandukanye. Bakaba barimo gukoma amashyi imbere yabo hakaba harimo umuntu wifotora. Ibi bikaba bibafasha mu gutanga ubuvuzi bumeze neza kubajyige bagana.

Imihanda yubatse ku buryo bwa kijyambere ifasha abaturage mu kwiteza imbere abatwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibi bikaba biborohereza mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amazu yubatse buryo bugezweho, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, uyu muhanda ukaba ufasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi buryo buboroheye.

Kubungabunga ibinyabuzima birimo ingagi ndetse n'izindi nyamaswa, ni uburyo bwiza bwo kwirinda izmira ry'ibinyabuzima bigiye gutandukanye, bikaba byifashishwa mu gukurura ba mukerarugendo baza bazanye amadovize ku gihugu.

Ni inyubako, ikaba ikorerwamo n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage, iruhande rwayo hakaba hari imisozi miremire, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ndetse no guhura n'abayobozi babafasha mu gukemura ibibazo biba bibugarije.

Ni abaturage bicaye mu byumba, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, inyuma yaho hakaba hari ibyapa byamamaza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

ni abaturage hakaba harimo abashinzwe umutekano mu nzego za leta barimo abapolisi ndetse n'abasirikare bakaba bari mu gikorwa cyo gushgura imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi baganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu

Ni abaturage bakaba bafashe indabo, bakaba bari mu gikorwa cyo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane, bakaba barimo kuganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Kwiga no guhurana ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, ni inzira iganisha ku majyambere arambye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubaho mu mutekano ndetse no kwiteza imbere mu buryo bunoze.

Ni abaturage bakaba bicaye mu ihema, inyuma yabo hakaba hari uruzitiro rukoze mu byubuyuma n'amatafari, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage hakaba harimo abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bahagaze mu cyumba kigari, bakaba barimo kuganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni umugabo wambaye imyenda y'umukara akaba afashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaye mu cyumba hakaba harimo abashinzwe umutekano abapolisi ndetse n'abakozi ba RIB bakaba barimo kuganira ku buryo ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Iyo abaturage bicaye mu cyumba hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare n'abapolisi, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubaho mu mahoro binyuze mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage benshi, hakaba harimo abafashe amasanduku abandi bakaba bafashe indabo, bakaba bari imbere y'urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda na mirongo cyenda na kane, ibi bikaba biri mu bikorwa byo kwibuka ndetse baharanira ubutabera n'uburenganzira bwa muntu.

Ni isangano ry'imihanda. Hakaba hari ibyapa biyobora abakoresha umuhanda. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye birinze impanuka.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye gutandukanye, ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, birimo imodoka na moto, ibi bikaba bifasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi muburyo bwororoshye.

Ni imodokadoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikaba irimo kugenda mu muhanda mugari wa kaburimbo, izi modoka zikaba zifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amazu yifashishwa mu bucuruzi. Ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo moto n'imodoka. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuturage akaba ahagaze imbere y'inzu yifashishwa n'abagenzi mu gihe bategereje ibinyabiziga, ibi bikaba bifasha abagenzi mu kuba babona ibinyabiziga mu buryo bworoshye, bibafasha kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Iruhande rwawo hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi. Uyu muhanda ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye burimo moto. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba uciyemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru banyura, iruhande rwabo hakaba hari amazu ndetse n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage kuva ahantu bamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni ibyapa bishinze ku muhanda mugari, iruhande rwawo hakaba hari amashyamba ya kimeza arimo ibiti by'ubwoko butandukanye. Ibi byapa bikaba byifashishwa mu kuyobora abakoresha umuhanda hirindwa impanuka z'ubwoko zitandukanye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'ibyapa biyobora abakoresha umuhanda. Ibi bikaba bifasha abakoresha umuhanda mu kwirinda impanuka za hato na hato.

Kuganira mu ruhame, uburyo bwo kwiyiteza imbere binyuze mu kwicungira umutekano no gukorera hamwe muri rusange ni uburyo bwiza bufasha abaturage mu kwiteza imbere. Ibi bikaba bibafasha mu kwicungira umutekano ndetse no guhana ibitekerezo bibafasha mu kwiteza imbere.

Ni abaturage hakaba harimo abashinzwe umutekano b'aba polisi ndetse n'abasirikare, bakaba barimo gukora umuganda, ibi bikaba bifasha mu kwiyubakira igihugu binyuze mu gucunga umutekano ndetse no gukorera hamwe binyuze mu muhanda.

Ni abaturage, bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, hakaba harimo abafashe amasuka, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere, binyuze mu kwiyubakira ibikorwa remezo.

Ni abaturage, bakaba bahagaze imbere y'inyubako, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu kwicungira umutekano.

Ni abaturage, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, bakaba bari imbere y'inyubako yifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi ku baturage, ibi bikaba bibafasha mu kwicungira umutekano no kugira ubuzima bwiza.

Ni abaturage bicaye mu cyumba, hakaba harimo abashinzwe umutekano barimo abasirikare n'abapolisi, bakaba barimo kuganira kuburyo bwo kwiteza imbere, bicungira umutekano.

Gukora umuganda, ni uburyo bwiza bwo kwiteza imbere binyuze mu gukorera hamwe. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiyubakira ibikorwaremezo birimo imihanda ndetse n'ibindi bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kwiga ndetse no guhugurana ku buryo bwo gukoresha umuhanda hirindwa impanuka zigiye zitandukanye zikorerwa mu muhanda bifasha abaturage ndetse n'abandi bakoresha umuhanda mu buryo bwo kwirinda impanuka bikaba bibafasha mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi hirinzwe uburyo bugiye butandukanye buteza impanuka.

Ni abaturage barimo kubabaka inzu bifashishije amatafari hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, abasirikare ndetse n'abakozi bo mu rwego rwa daso, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuba ahantu hameze neza ndetse hafite n'umutekano.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cyo gukora umuganda batema ibihuru hakaba harimo abashinzwe umutekano mu basirikare ndetse n'abandi ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwikorera imiganda.

Ni abaturage, b'abagabo n'abagore, bakaba bicaye ahantu hamwe, iruhande rwabo hakaba hari amazu y'abaturage, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwicungira umutekano ndetse no kwiteza imbere.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, bakaba barimo kwiyubakira umuhanda, hakaba harimo abafashe amasuka. ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu gukora umuganda.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, barimo kwikorera amabuye barimo gutinda umuhanda wangiritse. Ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu kwiyubakira ibikorwa remezo.

Ni abaturage bicaye ku ntebe ahantu hasakaye bakaba bari mu gikorwa cyo kureba imikino y'umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu kugira ibyishimo ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Ni umugabo akaba yambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara akaba afashe igikoresho cyifashishwa n'abakinnyi igihe bari gukura umukinnyi mu kibuga bashiramo undi bakaba bari mu gikorwa cy' imyidagaduro ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse bitanga n'amafaranga.

Ni urubyiruko rukaba ruri muri siporo zigiye zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubakwirinda indwara zitandukanye zirimo diyabete, indwara z'umutima, ndetse n'umubyibuho ukabije.

Ni abakinnyi bakaba harimo abambaye imyenda itukura ndetse n'abambaye imyenda y'ubururu, bakaba bagiye gukina umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu kwinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni abaturage bicaye mu ihema rinini bakaba harimo abashinzwe umutekano w'abapolisi bakaba barimo kureba igikorwaga cy'umupira w'amaguru ibi bikaba bizafasha mu gusabana ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho utabizi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abakobwa bakaba barimo gukina umupira w'amaguru. Hakaba harimo abambaye imyenda iri mu mabara y'umukara abandi umutu, bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni urubyiruko rukaba ruri mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu abandi imihondo, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda kuba bafatwa n'indwara zitandukanye zirimo umutima, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu, bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, hakaba harimo abambaye imyenda isa n'ubururu ndetse abandi bambaye imyenda isa n'umuhondo, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zirimo diyabete, umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'umutima.

Ni urubyiruko rukaba, ruri mu gikorwa cy'imyidagaduro, barimo kwirukanka mu muhanda mugari wa kaburimbo, bakaba bari mu gikorwa cyo kwirinda kuba bafatwa n'indwara zitandukanye, zirimo umubyibuho ukabije, indwara z'umutima, ndetse na diyabete.

Gukora imyidagaduro igiye itandukanye irimo gukina umupira w'amaguru, ni uburyo bwiza bwo kwirinda indwaragiye zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, hakaba harimo abambaye y'imihondo abandi bambaye imyendaro bakaba barimo gukina umupira w'amaguru ibi bikababafasha mu kubona amafaranga ndetse no kwirinda indwara z'ubwoko butandukanye zirimo umubyibuho ukabije diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Gukora imyidagaduro igiye itandukanye irimo gukina umupira w'amaguru. Ni uburyo bwo kugira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye, zirimo umubyibuho ukabije, Diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni abaturage bicaye hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, bakaba bari mu gikorwa cyo kureba umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu buryo bwo gusabana ndetse no kwirinda ikibazo cy'indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'umutima.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu bakaba bari mu kibuga bari gukora imyitozo, iruhande rwabo hakaba hari ibyumba by'amashuri, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru bakaba bambaye imyendaye itandukanye, iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu bakaba bari mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni urubyiruko, rukaba rurimo gukora imyitozo mu muhanda mugari wa kaburimbo, bakaba bari mu gikorwa cyo kwiruka. Ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zitandukanye, zirimo: diyabete, indwara z'umutima ndetse n'umubyibuho ukabije.

Ni urubyiruko hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi, bakaba bari mu gikorwa cyo kwidagadura bakina umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu gusabana ndetse no kwirinda indwara zitandukanye n'umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Gukora imyidagaduro igiye itandukanye, irimo gukina umupira w'amaguru, kwirukanka ndetse n'ibindi, ni uburyo bwo kubaka umubiri ufite ubuzima bwiza, ibi bikaba bifasha urubyiruko ndetse n'abantu mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zitandukanye, zirimo umubyibuho ukabije na Diyabete.

Gukora imyidagaduro igiye itandukanye irimo gukina umupira w'amaguru, bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zitandura zirimo diyabete, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Ni urubyiruko rw'abana b'abakobwa, bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, hakaba harimo abambaye imyenda y'umukara ndetse abandi y'ubururu, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, hakaba hari kunyuramo imodoka yifashishwa nabapolisi ikaba icanye itara ry'umutuku, inyuma yaho hakaba hari urubyiruko ruri mu gikorwa cy'imyidagaduro yo kwirukanka, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amasambu arimo ibyatsi bitoshye. Uyu muhanda ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, birimo moto n'ibindi. Iyi mihanda ikaba ifasha abaturage kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amashyamba afite ibiti birebire kandi bitoshye. Uyu muhanda ukaba wifashishwa n'abaturage mu gutwara ibintu babikura ahantu hamwe babijyana ahandi.

Ni inzira nyabagendwa ikaba iruhande rwayo hari ibyatsi bitoshye, iyi nzira ikaba ifasha abantu ahantu hamwe bajya ahandi, ndetse no gukorana ubucuruzi hagati yabo ibi bikaba biborohereza kuba batwara ibintu kubikura ahantu hamye babijyana ahandi.

Ni imihanda, ikaba yubatse kuburyo bwa kijyambere, ikaba i ikikijwe n'amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiteza imbere binyuze mu gutwara ibicuruzwa babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Ni umuturage uri kugenda mu muhanda w'igitaka, iruhande rwawo hakaba hari ibyatsi bitoshye, iyi mihanda ikaba ifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu bikorwa bigiye bitandukanye, bibafasha mu kwiteza imbere.

Ni umuhanda mugari w'igitaka ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo amagare, ukaba ukikijwe n'amasambu harimo ibyatsi bitoshye, iyi mihanda ikaba ifasha abaturage mu kuba ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni inzira nyabagendwa, ikaba ikikijwe n'amazu y'abaturage ndetse n'ibimera by'ubwoko butandukanye, hakaba hari kunyuramo abaturage, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu bamwe bajya ahandi mu buryo bworoshe.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Ukaba ukikijwe n'amazu agiye atandukanye arimo ay'ubucuruzi ndetse no guturwamo. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kurohezanya ubucuruzi ndetse no gutwara ibintu bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda w'amabuye, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, birimo moto ndetse n'amagare, hakaba harimo abaturage bari kugenda n'amaguru, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni umuhanda nyabagendwa, imbere yawo hakaba hari amazu, iyi mihanda ikaba yifatishwa mu gutwara ibintu n'abantu, ibi bikaba bifasha abantu mu kuba bava ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo buboroheye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Kuruhande rwawo hakaba hari igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi. Hakaba hari kugendamo abaturage. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo bworoshye.